Umugabo w'umwirabura wambaye ikoti ry'umukara umupira w'ubururu wambaye isaha ku kabako k'ibumoso, ameza atetseho igitambaro cy'umweru agacupa kamazi, terefone y'umukara irambitse ku meza izimije impapuro, umugore w'umwirabura wambaye akajipo k'umukara.

Umuyobozi urimo abwira abaturage abasirikare bicaye munsi y'igisharagati mikoro.

Amapoto ariho amatara n'insinga. Igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye n'amabuye, ibiti biteye imbere y'icyo gipangu bisha icyatsi.

Umunyeshuri urimo ukoresha terefone mu kigo kirimo abandi bantu hirya babiri bahagaze imbere y'ubusitani bufite indabo zisa icyatsi n'umuhondo, n'ubwatsi busa icyatsi.

Umuntu urimo akinga urupangu imodoka imwe yinjira, imodoka zihagaze iy'umukara iz'umweru icyapa cyerekana aha hantu aha ariho.

Umuntu wambaye amarinete, ishati y'amaboko maremare, uhagaze mu makarito, agira ibyo abaza ku ikarito atunzeho urutoki.

Abantu bicaye mu biti barimo bahabwa amabwiriza cyangwa inama, n'abicaye imbere yabo imbere y'ameza.

Ibyapa biriho ibiciro by'ibicuruzwa n'abamamaza, icyuma cyohereza amazi mu nzu yaba yahiye.

Amaboko, isaha, icyuma, ikanzu, umwenda, isengeri, umusatsi, amaso, amazuru, amenyo umunwa, abantu.

Bakaranga ni barika ry'modoka, amatara y'imodoka, yinyuma amapine ya rifani, amatara y'imodoka y'imbere, abantu n'inkweto, ipantaro, amashati imipira y'igofero kasike n'ibyuma.

Umuhanda uri kunyurwamo n'umukarani uri gusunika akuma, umumotari wambaye isengeri y'umuhondo, umunyamaguru, imodoka iparitse ku ruhande.

Inzu ndende y'itaje, ifite ibara ry'umuhondo, ibirahure by'ubururu bwerurutse, hamwe n'ibirahure by'icyatsi. Imbere yateyeho igiti.

Imodoka isa umukara ihagaze mu mbuga y'itaje, ifite umuzenguruko w'ibyatsi by'icyatsi n'ibiti.